Amashuri y'incuke ni amashuri ahenshi arangwamo ibishushanyo bitandukanye, aho abanyeshuri biga bareba amashusho, bakora ku bintu bifatika nk'inyamaswa, utunyoni, uturabo, ibitabo, ndetse n'ibipupe by'abantu. Ibyo byose bibafasha kwiga neza. Ni ngombwa rero ko amashuri aba akungahaye ku mfashanyigisho zigaragara ndetse zifatika.

Uburezi bw'inshuke cyangwa se abananbato, ni kimwe mu bintu by'ingenzi bigomba kwitabwaho mu gihe abana babyiruka cyangwa se bagiye ku ishuri. Mu kwigisha abana bato ni byiza ko twifashisha imfashanyigisho zigaragara, zifatika, kugira ngo abana baze kumenya ibyo biga ndetse bibafashe no kumenya ibyo biga ku byo bakoresha mu buzima busanzwe.

Amashuri y'icyiro cy'uburezi bw'ibanze mu rwanda, ni ahantutu hasabwa kwitabwaho cyane, harimo ubusitani kuko abantu bakunda kwiga bakina ndetse n'ibindi, iyo hatitaweho hashobora gutera indwara zituruka ku mwanda, ibikomere mu buryo butandukanye, ndetse bikaba byavamo n'urupfu.

Amashuri yisumbuye agizwe n'ibyiciro bibiri: ikiciro cya mbere ndetse n'ikiciro cya kabiri. Ikiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye ni ukuva mu mwaka wa mbere kugera mu mwaka wa gatatu. Ikiciro cya kabiri ni ukuva mu mwaka wa gatatu kugera mu mwaka wa gatandatu. Ikiciro cya kabiri umunyeshuri yiga ibyo yahisemo akabikurikirana neza kugeza asoje.

Amashuri mu rwanda ay'ibanze, imyuga ndetse na kaminuza. Ni ibigo biba bitandukanye haba mu babyiga ndetse n'abarez bahakora. Akenshi usanga mu byiciro bya kaminuza harangwa n'isuku nyinshi ugereyije n'ibindi bigo byinshi bitandukanye.

Mu burezi bufite ireme ni byiza ko umunyeshuri yiga ibintu bimuteza imbere, haba mu mashuri y'imyuga ndetse na za kaminuza. Igihe abyiga ni byiza ko yibanda ku bintu bizamutunga ndetse bikamufasha no kubaho ubuzima burebure ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye.